Aho tujaga kwivuza habagaho n'aho bafatiraga imiti. Aho ngaho bafatiraga imiti hitwaga farumasi, tujaga kwivuza bakadusuzuma, tukaja no gufata imiti tukaja kuzifata aho ngaho muri farumasi. Iyo imiti baguhaye zitagukijije ugarukaga kwa muganga bakongera kuguha izindi miti.

Minisiteri y'ubuzima yatwegereje amavuriro hafi habagaho ivuriro ryitwa positedesante, hahuriragaho abaturage batuye muri ako kagari iyo umuntu arwaye ajaga kwivuza kuri positedesante ubwo rero ago mavuriro garadufashaga cane, kuko bitabahaga ngombwa ko indwara yose urwaye uja ku bitaro hari igihe habaga ari kure tugomba kuza turahakora isuku tukahaharura tukahatera n'umucaca kugira ngo hahore hasa neza tukati.

Tugiraga n'amoforomasi inaha iwacu tujaga kuguramo imiti, hari igihe ugiye kwivuza kwa muganga bakakwandikira umuti bakakubwira ngo genda ugugure muri farumasi icyo gihe ugendaga kugura ukanywa uko muganga yagukwandikiye, biradufashaga cane kuko kwa muganga hari igihe iyo miti nyine ugiye kwivuza ugasanga ntaziriyo bikaba ngombwa ko uja kuzigura hanze.

Iyo abarwayi bagiye kwa muganga babandikiraga imiti, baba batazifite kwa muganga bakaja hanze muri farumasi kuzigurayo. Farumasi zibaga ari abantu bacuruzaga imiti bemewe na Leta, akaba ari nko kwa muganga kuko babaga bafite imiti zivuraga indwara nyinshi.

Ibyatsi byimejeje bakoramo imiti ya kinyarwanda, noneho n'abaganga baba dogiteri bagafata iyo miti bakayikuramo imiti ya kizungu, bakayiduhamo ibinini tukabinywa tugakira.

Ibihingwa bitandukanye duhinga, duhinga amateke tugahinga ibirayi, tugahinga n'ibishyimbo. Iyo tubihinze tuba turi kugira ngo bitugirire akamaro nk'amateke atugirira akamaro mu kudutera imbaraga, ibishyimbo byo biturinda n'indwara , duhinga n'amajeri tugahinga n'ibirayi byose tukanabigurisha, kugira ngo tubonemo n'andi mafaranga.

Hari ibimera byifashishwaga mu gukora imiti. Ibyo bimera bikundaga kwimeza mu mashamba ga kimeza, iyo abantu bagiye kurebamo imiti zo kwivurisha cane cane nk'imiharavumba zivuraga umutwe n'inkorora, hakabamo na cyimbazi zivuraga inzoka. Iyo umuntu yarwaye ajaga mu ishamba akarebamo ibyamufasha kwivura.

Imbuto rero ziganjemo nk'inkeri tukagira n'imboga ziganjemo ibihaza zidufashaga gukora imiti, nk'ibihaza bitumaga umuntu yoroha mu nda iyo abiriye, ntabwo agugaraga mu nda. Tukagira n'utundi tubuto twita inyanya tubaga ari utuntu dutoya tumeze nk'utunyanya turyohaga, natwo dutumaga umuntu atagira umuvuduko turindaga na kanseri.

Ino aha iwacu duhingaga imbuto. Muri zo mbuto duhingaga, habagamo ibinyomoro, ibisheke, amatunda n’amapera. Turazihingaga cane kugira ngo twihaze mu kurya imbuto, turya indyo yuzuye kuko habagamo n’intungamubiri. Tuzigaburiraga n’abana bacu, tukajana no ku isoko tukazigurisha. Baduhaga amafaranga, ago mafaranga baduhaye tugitezagamo imbere.

Habagaho ibimera bivagamo imiti dukoreshaga tutiriwe turaja kwa muganga. Ibivuranende bituvuraga n'ibisebe turivuraga tugakira, hari n'imiti zivuraga inzoka nka kimbazi nayo ivuraga inzoka.

Habagaho ibyatsi byimezaga n'ahandi hose mu bihugu bitandukanye, habaga ibyatsi byimezaga. Ibyo byatsi bibaga byarameze, byifashishwaga nko mu gukora imiti za kinyarwanda, n'abaganga ubwabo barabyifashishaga bari gukora ibinini. Ni byiza kudatsitsura amashamba no kudahinga ahantu hose, kugira ngo tujye turabona aho tujya gushaka imiti zo kwivuza.

Ibyatsi bitandukanye bimera in'aha iwacu habamo ibikora imiti, iyo abantu bafata bakabivangavanga bakabyazamo imiti runaka, iyo barwaye inkorora cyangwa umutwe, wafataga inyarabasanya, ugafata n'ibifuranende , ukabivangavanga ukivura.

Dufataga imiti za kinyarwanda tuzikoreye. Dufataga nk'ibisura, ibisura bivuraga igifu. Turabifata tukabinombanomba, babikoreye mu isekuru barangiza kubinombanomba tugashira mu gikosi tugakamura, tukanywa amazi gabyo, cyangwa se tukabyanika tugakamura tukazanywa ifu yabyo.

Iyo duhinze ibigori tubiteraga umuti kugira ngo bikure neza bitazazamo shokonkwa kuko shokonkwa zicaga imyaka bigatuma bitera neza, impeke zikaba zirimo shokonkwa ntizibe ziri intete nziza, ariko iyo duteye ugo muti, bikuraga neza ntibigire ikibazo.

Ibyatsi bya kimeza hari indwara zimwe na zimwe bituvuraga. Urugero nk'ibyatsi byitwa umuharavumba bivuraga inkorora, bikatuvura ibicurane ,ibyatsi by'inyabarasanya bituvuraga ibisebe, munageze igisebe akamuragaga inyabarasanya agashiriraraho bikamuvura.